Kugira abantu bize ibintu by'ibihingwa biba byiza cyane, kuberako iyo ibihingwa byafashwe n'ibisimba babasha kubivura bakabishyiraho imiti ,hanyuma nyuma yo gushyiraho iyo miti yose umusaruro ukiyongera, hanyuma uwabihinze akabasha kubona amafaranga avuye muri bya bihingwa bye ,biturutse kuri wa muntu waje kumufasha w'umwagoronomi ku bihingwa bye byari byafashwe n'ibyonnyi.

Ubuhinzi bwa rusange, cyangwa abandi bafashanya guhinga, usanga abakoreraga muri koperative zo guhinga, bigiga akamaro kanini cyane, kuberako iyo bakoreye hamwe bakora ibintu byinshi mu gihe gito cyane, bakabona umusaruro uhagije.

Imashini icucira iba nziza cyane kubera ko ifasha abantu gukora ibintu byabo, cyangwa ibafasha gucucira mu gihe gitoya, nkuko umuntu atabikora ngo abirangize vuba, ariko yo ibikora mu gihe gito cyane, hanyuma ibihingwa byawe bikera bigasara.

Kuroba ni umwuga mwiza cyane udakorwa n' abantu bari aho ngaho bisaba kuba ubizi, ariko abantu baroba babona amafaranga, kubera ko ibyo baroba; baroba amafi n' ibindi n' amasamabaza iyo bayarobye babaha amafaranga, bakazigurisha rero abantu bava mu bukene(..) abantu barayakunda cyane.

Ifi iba nziza cyane kuko abantu barayikunda kandi iraryoha. Ni imwe mubiva mu mazi abantu bakunda cyane. Kandi ifi igira akamaro kanini mu mubiri n'iyo umuntu arwaye rwose arayirya akumva ameze neza, n'abantu bazicuruza rwose babona amafaranga kuko abantu bazikunda cyane.

Isambaza ziba nziza cyane, ni bimwe mu nyamaswa ziba mu mazi, abantu bakunda cyane, kubera ukuntu ziryoha, kandi ku bantu bazigurisha, babasha kubona amafaranga, kubera ukuntu zigurwa, kandi zirahenda ariko zikaryoha.

Indagara ziba nziza cyane kandi ziraryoha, kubera ko abantu bazikunda cyane kandi zigira akamaro, iyo zitetse mu biryo wumva biryoshye kandi zigira intungamubiri nyinshi cyane, zifasha umubiri dore ko umuntu uzicuruza bimubera byiza kuko abantu baza kuzihaha bakamuhereza amafaranga.

Kubika ibiribwa muri barafu bibaga byiza, kuko birafasha bituma bitangirika ngo bipfe, cyangwa ngo bibore, ni nko kubishyira muri firigo, biba byiza.

Amafi aba meza cyane, ni ibiribwa abantu bakunda kandi ubona baryohewe, rero nk'abantu babigurisha iyo babijyanye ahantu babigurisha, babishyira muri firigo kugira ngo atangirika, hanyuma akabura abakiriya yapfuye.

Ubwato buba bwiza cyane kuberako bugira akamaro, butuma abantu bajya mu mazi nta kibazo bafite kandi bifasha abantu baroba bakajya kuroba, bitarinze kubagora bakabona ibyo bashaka.

Isambaza ziba nziza kandi ziba ingenzi abantu barazikunda, ni mu nyama ziba mu mazi abantu bakunda kandi zirahenda cyane, iyo ufashe umwanya wo kuzirangura, ntabwo bita ko zihenda kubera ko ziba ziryoshye abantu barazikunda, iyo uzigejeje ku isoko barazigura ku bwinshi.

amafi aba meza kandi araryoha cyane, abantu barayakunda ari benshi, iyo ukoze umushinga wo kuyacuruza ubona amafaranga kubera ukuntu abantu baba bayakeneye ari benshi. Kandi ayo mafaranga aba ari menshi cyane.

Amafi aba meza kandi abantu barayakunda araryoha cyane, kandi agira umumaro mu mubiri w'abantu. Aryoha cyane iyo yokeje, rero nk'abantu bayacuruza cyangwa se abantu bayateka mu maresitora, bibabera byiza kuko abana barayakunda cyane.

Indagara ziba zimwe mu biribwa biba mu mazi kandi abantu bakunda cyane, ziraryoha indagara ziraryoha indagara barazikunda indagara ziryosha ibiryo kandi indagara ziba n'umuti, rero niyo mpamvu abantu bazikunda cyane, iyo umuntu afashe umwanzuro akavuga ati ngiye gucuruza indagara, abona abakiriya pe, kubera ukuntu ziba zikenewe n'abantu benshi barazikunda, baba bazikeneye cyne. Rero iyo baje kuzihaha baguhereza amafaranga nawe ukayakoresha mu bindi byawe uba ukeneye gukora, kandi uba utubutse pe, kuko indadagara ziba zikenewe cyane abantu barazikunda. Bazirya ahantu henshi hatandukanye waziteka mu birarayi, wa bakazirya mu mboga bazishyiramo indagara ziba ingenzi.

Amafika aba meza amafi araryoha abantu barayakunda, amafi bayateka mu buryo bwinshi butandukanye, wayarisha ikintu icyo aricyo cyose, ariko arahenda abantu bayaguribisha rero babona amafaranga kubera ukuntu aba akenewe n'abantu benshi baba bashaka kuyagura, rero bakikenuza ibintu baba bakeneye.

Amafi aba meza, kandi abantu barayakunda cyane, bakunda kuyarya kubera ukuntu aryoha kandi bayarya muburyo bwinshi butandukanye, n'abantu bayacuruza baboga amafaranga, kubera ko aragendeka, abantu barayakunda rero iyo ufashe umwanya ukayacuruza ubona amafaranga, warangiza akagufasha mu kwiteza imbere.

Ikivu kiba kiza cyane kubera ko kiri muri bimwe mu biranga u Rwanda, kandi gituma u Rwanda rwacu ruba rwiza. N'abakerarugendo baraza bakaza kuhasura, bakabahereza amafaranga.

Agafi n'umuceri nibyo abantu bakunda, bikunda kuribwa n'abantu b'abasirimu barabikunda cyane rero usanga mu maresitora, hoteri baba bitetse abantu bakajya kubigurayo bibaba biryoshye cyane nawe wabikora.

Isambaza ziba nziza kandi ziraryoha abana barazikunda cyane kandi ni zimwe mu nyama ziba mu mazi ziryoha, ziba zikenewe cyane rero iyo ufashe umwanya ukajya kuzigurisha ubona amafaranga kandi zirahenda cyane rero nubwo zihenda barazigura.

Guhinga ku mirongo biba byiza， kubera ko bituma igihingwa gitandukana n'ikindi，bigatuma bigira umusaruro mwinshi cyane， kandi bigafasha n'uwabihinze，hanyuma yabigeza ku isoko，akabona amafaranga， akamufasha kwiteza imbere.

Amashaza aba meza, kandi aba ingenzi kubera ko ni ibiribwa biryoha cyane abantu bakunda kandi iyo ubihinze, ukagirirwa umugisha bikera cyane ,ubijyana ku isoko ukabona amafaranga menshi cyane, kubera ko abantu barayakunda ,bakaguha amafaranga bikagufasha kwikenura ukagura utundi tuntu uba ukeneye.

Ibiti biba byiza cyane, kandi ni ibitoki biba byiza kubera ko banarabikunda cyane. Iyo byeze kubijyana ku isoko barabigura ku bwinshi. N'ibiti bitanga akayaga, bitanga imvura, kandi n'iyo byeze barabica, barabitwika bikavamo amakara. Amakara bakayagura, urumva ko bigira akamaro kanini cyane.

Ibinyomoro ni ibihingwa biba byiza kubera ko bifasha. Ni imbuto abantu barya ubuzima bwabo bukagenda neza. Kandi baranazigurisha, iyo havuyemo umusaruro mwinshi cyane, barazigurisha, hanyuma hakavamo amafaranga umuntu akabasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibitoki buba bwiza cyane ,kubera ko ibitoki abantu barabikunda, ibitoki biraryoha ,ibitoki iyo byeze barabigurisha, kandi iyo ari nka bya bitoki by'imineke abantu babikoramo imitobe, cyangwa amaji rero urutoki biba byiza.

Amagaraviye aba meza cyane, kubera ko ari ibikoresho, bikundwa gukoreshwa n'abantu benshi, baba bakeneye kubaka kandi n'abantu bayakora bakabyungukiramo, bakabona amafaranga babigurishije, abakeneye kuyubakisha kandi nabagiye kubyubakisha, nabo bubaka ibintu bimeze neza, rera abayabagurisha nabo, babona amafaranga akabateza imbere.

Isombe iba nziza cyane，kubera ko ikundwa n'abantu benshi， kandi igira umumaro， ifasha umugore wabyaye kubona amashereka，kandi n'umwana wayiriye ntabwo apfa kurwara，kandi no ku isoko irakundwa， n'iyo uyigurishije ubona amafaranga.

Guhinga ibiti biba byiza kandi biba ingenzi, kubera ko ibiti bigira akamaro kanini cyane. Ibiti bitanga imvura, ibiti bitanga umuyaga kandi n'iyo byeze barabicana bikavamo amakara.

Guhinga amashaza biba byiza cyane, kubera ko amashaza ari mu biribwa abantu bakunda cyane, rero iyo ugize amahirwe akera agasara ukayajyana ku isoko, ubona amafaranga agufasha kwiteza imbere, kandi ukikenura ukagira n'utundi ukemura.

Ibiti by'ibitutsi biba byiza cyane, kubera ko bigira akamaro kanini. Babikoresha mu miti kandi biduhereza akayaga keza, bigatanga imvura. N'iyo bikuze barabitema hanyuma bakabitwika bikavamo amakara. Bigira akamaro kanini cyane biba bikenewe mu buzima.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,cyane cyane iyo abantu bahurije hamwe, hanyuma hakavamo umusaruro mwinshi uhagije, bakajya kugurisha no bakabona amafaranga ,ayo mafaranga akabafasha mu kwiteza imbere ,hanyuma ubukungu bugakomeza kugenda bwiyongera gake gake.

Karoti ziba nziza, kandi ziba ingenzi nazo ziri mu mboga, z'iby'ingirakamaro kuko zifite akamaro kenshi mu mibiri y'abantu, karoti zivura amaso, kandi iyo ugize amahirwe waziteye zikagira umusaruro mwinshi uhagije, ubashaka kuzijyana ku isoko, ukabona amafaranga kubera ko abantu baba bazikeneye.

Imirima iba myiza kuko ni mu bintu by'ingenzi abantu bakenera kubera ko ni byo biduhereza ibyo kurya, abahinga bakayihinga bamara guhinga bakabijyana ku isoko, bamara kubijyana ku isoko, abantu bagahaha hanyuma nabo bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Ibitoki biba byiza kandi abantu barabikunda, havamo ibintu bigiye bitandukanye. Havamo imineke kandi imineke hari igihe bayikoramo imitobe kandi imitobe iraha, imineke havamo amaji, imineke barazirya, umubiri ugakomeza ukaba mwiza bagakura neza.

Guhinga mu mitabo biba byiza kubera ko birafasha, bikurinda guhinga mu kajagari. Kandi iyo uhinze gutya mu mitabo bituma ibihingwa byawe byera neza ukabona umusaruro uhagije. Hanyuma nawe bikakugirira akamaro, wabijyana ku isoko, kuko biba ari byinshi, ukabona amafaranga menshi cyane.

Ibigori biba byiza kandi biba ingenzi kubihinga, iyo ubihinze uba wizigamiye cyane kubera ko ibigori biragendeka, iyo ugize amahirwe bikera ari byinshi, bigasara, ubona amafaranga, wanabirya mu rugo kandi ukanagurisha ubuzima bukaba bwiza cyane.

Guhinga mu mitaho biba byiza cyane, biba ingenzi mu Kuko bifasha umuhinzi guhinga neza adafatanyije ibihingwa, kandi iyo ubihinze gutyo birera neza, kandi bitanga umusaruro uhagije.

Ibitoki biba byiza cyane ku bihinga, kubera ko ibitoki ntabwo bishira, bikomeza bikera, rero iyo byeze ubijyana ku isoko, abantu bakundaga kurya ibitoki, barabigura cyane, bakaguhereza amafaranga menshi.

Ibitoki ni ibihingwa biba byiza cyane, kubera ko abantu barabikunda. Kandi iyo wahinze nk'ibitoki bivamo imineke bikugirira akamaro kubera ko babikoramo imitobe, babikoramo n'amaji, kandi abantu bakunda kubinywa.

Ibirayi ku isoko biragendeka cyane, kubera ko abantu barabikunda, rero iyo ubicuruje ubona abakiriya benshi, kandi abo bakiriya urumva baza bazanye ayo amafaranga, kubera ukuntu ibirayi babikunda, rero iyo ubicuruje, ubona amafaranga menshi akagufasha.

Ibitoki biba byiza abntu barabikunda cyane kandi barajya bagahaga. Ibitoki bivamo ibintu byinshi bitandukanye hava ibimineke kandi izo mineke na zarigeze zivagamo imitobe abantu barazijya kandi ibitoki wabijya mu buryo butandukanye. Iyo ubigurishije ubona amafaranga akorako biragenda abantu wakunda kubigura.

Ubuhinzi bw'inyanya buba bwiza cyane kubera ko inyanya zirakenerwa, abantu barazikenera ari benshi, kandi inyanya ziba nziza, rero iyo mwishyize hamwe mukazihinga nk'ishyirahamwe, zikiyongera, mukazifata neza, mukazitera imiti zikura neza, kandi zikaba nyinshi cyane, mwazijyana ku isoko, mukabona amafaranga menshi cyane, akabafasha.

Voka iba nziza cyane. Abantu barayikunda kubera ko iri mu mbuto zigirira akamaro umubiri. zirafashaga rwose, kandi wayirya ahantu hatandukanye. Wayirya yonyine, wayirisha ibiryo. Kandi ku bantu bazicuruza ngo bazijyana abantu bakaza bakagura, bakabona ibintu bimeze neza cyane.

Imineke iba iba myiza cyane kuko abantu barayikunda kandi bayikunda cyane, imineke iyo umuntu ayiriye aba ameze neza. Imineke bayiha abana, imineke ivamo ibintu bigiye bitandukanye. Havamo imitobe, havamo amaji, imineke iba myiza kandi iyo umuntu ayigurishije akayijyana ku isoko, barayigura pe akabona amafaranga.

Ibihingwa biba byiza, kubera ko iyo byeze babigaburira abana, abana bakabaho, bagakura neza ntibicwe na bwaki, kandi barabigurisha, ubigurishije akabona ayo mafaranga, akamuteza imbere mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ibishimbo biba byiza cyane kubera ko bikundwa n'abantu benshi, kandi biraryoha, kandi bigira n'imboga zitwa imishogoro, kandi n'yo umuntu aziriye yumva zimeze neza, abantu benshi barazikunda, ibishyimba n'iyo byeze bikagira umusaruro mwiza cyane, abantu babona amafaranga, n'abandi bakarya ibintu bimeze neza.

Ubuhinzi bw'inyanya buba bwiza cyane, kubera ko burafasha, bufasha nk'umuntu yagize amahirwe bikamubera byiza, zikaba nyinshi arazigurisha kandi abantu benshi barazikunda, akabona ayo mafaranga, akayakoresha cyangwa se akizigamira, n'abayaguramo ibindi bintu aba akeneye.

Intoryi ziba nziza kandi ni zimwe mu mboga abantu bakunda cyane, kubera ko ziraryoha baziteka mu buryo butandukanye kandi zigirira akamaro umubiri, cyane cyane kandi nk'ababantu baba bashaka kunanuka zirabafasha, rero intoryi iyo uzigurishije rwose ubona amafaranga yokwikenura, mutuntu twawe uba ukeneye.

Ubuhinzi bw'umuceri buragoye cyane. Buragora ariko iyo wagize umugisha umuceri wawe ukera rwose biragufasha kubera ko umuceri uri mu biribwa bikundwaga n'abantu benshi. Haba abakuru, haba abatoya. Iyo ubjyanye ku isoko ubona amafaranga ahagije akagufasha kwikenura.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bwiza cyane kubera ko ibigori ni bimwe mu biribwa bikundwa n'abantu cyane kandi bigira akamaro. Bivamo ibintu byinshi. Ibigori wabirya bitogosheje, wabirya mu buryo butandukanye. Kandi n'iyo byumye barabibetesha kandi bikavamo akawunga. Rero iyo umuntu abihinze, aba ameze neza kuko abona amafaranga, iyo yagize umugisha akagira umusaruro mwinshi cyane.

Imyumbati iba myiza cyane, abantu barayikunda kubera ko ni bimwe mu biribwa by'ibinyarwanda abantu bakunda na kera bakundaga kuyirya ariko bivamo byinshi, havamo kawunga iyo wabyumishije ukajya kubibetesha, havamo ubugari kandi ubwo bugari buraryoha waburisha isosi iyo ari yo yose, n'iyo ubuhinze ukabijyana ku isoko barabigura.

Guhinga ibigori ni umushinga ukomeye cyane, kubera ko ibigori biragendeka, birakundwa biraryoha abantu benshi barabikunda, rero iyo ufashe umwanzuro wo guhinga ibigori uba uhinze ikintu k'ingenzi. Kubera ko ibigori barabigura cyane bivamamo ibintu byinshi iyo byumye. Bivamo kawunga, barabyotsa bakabirya, niyo mpamvu guhinga ibigori uba udahisemo nabi.

Inka ziba nziza cyane kubera ko zigira umumaro mwinshi cyane. Inka zitanga ifumbire, inka zitanga amata abana bakanywa amata kugira ngo batarwara bwaki, kandi inka zitanga ifumbire ituma ibimera bikura, kandi bikazana umusaruro mwinshi cyane, abantu bakabasha kubona umusaruro mwinshi bakabona n'amafaranga ahagije kubere umusaruro uba wavuye mu ifumbire y'iyi nka.

Inka ziba nziza kandi ziba ingenzi kubera ko zirafasha mu buryo bwinshi butandukanye iyo ugize amahirwe ukabona ifamu yo kuzororeramo ahasigaye zikakugirira akamaro kuko zitanga amata, zitanga inyama, zitanga ifumbire wakoresha zigira akamaro kanini cyane.

Inka ziba nziza kuko zigira akamaro kagiye gatandukanye. Zitanga ifumbire ,zitanga amata, zitanga inyama. Kandi biba byiza iyo uzororeye ahantu hamwe kugira ngo iyo fumbire ibashe kukugirira akamaro ,ubashe kuyishyira mu bihingwa byawe, hanyuma bikomeze gukura kandi bizaguteze imbere.

Ibigori ni ibihingwa by'ingirakamaro abantu bakunda cyane, kandi biba byiza muri ubu buzima, kubera ko biraryoha, abantu barabikunda. Wabirya bitogosheje, wabirya, uko wabirya kose biba biryoshye. Rero abantu babihinga, babijyana ku masako bakabigura cyane.

Imyembe iba myiza cyane, kubera ko iraryoha n'abantu barayikunda, ni muri zimwe mu mbuto zigirira umubiri akamaro, abantu barayikunda cyane, kandi irera, iyo uteye igiti cya yo ukayishyiraho umuti, irera cyane, bayijyana ku isoko, bakayigura ku bwinshi.

Ibigori biba byiza iyo biteye ariko nko ku izuba barabicucira cyangwa bakabitera imiti kugira ngo bizakure kandi bigwize umusaruro mwinshi cyane bisare. Hanyuma babijyane ku isoko bisa neza kandi bimeze neza abantu babihahe, ayo mafaranga abafashe mu kwiteza imbere banazigame.

umuceri ni mwiza cyane, ukundwa n'abantu benshi uraryoha, ariko nanone ukagira umusaruro mwinshi ku muntu wawuhinze, bituma awujyana ku isoko, akabona amafaranga agiye atandukanye akamufasha gutera imbere.

Ibigori ni byiza cyane ni mu bihingwa abantu bakunda cyane kuberako biraryoha, wabirya mu buryo butandukanye byokeje wabirya, bitetse kandi n'iyo byumye babikoramo kawunga bakayirya, kandi n'abantu babihinga babijyana ku isoko bikabasha kubahereza ku mafaranga.

Guhingira muri rusange biba byiza, kubera ko bituma abantu bakorera hamwe bakungurana ibitekerezo byinshi bitandukanye, hanyuma n'umusaruro ukaba mwinshi, nuko bakabona amafaranga menshi cyane, kubera ko baba bakoze cyane bakoreye hamwe bagakora byinshi, ayo mafaranga babonye kuko aba ari menshi, akabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Imboga zibaga nziza cyane, kubera ko ziba ari ingenzi mu buzima, no mumibiri y' abantu, ni muri bimwe abantu bakeneraga cyane, kandi ntabwo barya ntamboga ushyizemo, n'abantu bazicuruza, bagiraga amahirwe yo kubona abakiriya benshi cyane, kubera ko imboga zibaga zikenewe ari nk'imiti.

Ibirayi biba byiza kandi birajya abantu babikunda rero uko abantu babihinga iyo bagize amahirwe bakabona umusaruro uhagije bibabera byiza ,kuko babijyana ku isoko bikagendeka ko ari ukuntu ibirayi ibintu bikundwaga cyane ni ibiryo bikundwa cyane, iyo ugize amahirwe bikakugendekera neza uragurisha rwose kandi amafaranga ukagabana ku bwinshi bikagufasha kuzigamira bikagufasha kubona ibyo ukeneye bya buri munsi, ibirayi biba byiza rero ushaka kugira ngo ibirayi byawe biyikure neza cyangwa se u umusaruro ngo umeze neza ubishakira imiti ukaba itera kugira ngo uzabone umusaruro mwinshi cyane.

Ibihingwa ku bitera imiti biba byiza cyane kubera ko bituma bitarwara udukoko, udusimba tugiye dutandukanye, bituma ibihingwa bikura neza kandi bitanga umusaruro.

Ibisheke biba byiza cyane kuko kuko bigira umumaro mwinshi havamo isukari ,hakavamo ji ,hakavamo imitobe kandi iyo umuntu wabigurishije abona amafaranga, kandi bifasha umuntu kuruhuka ,burya iyo umuntu yananiwe akarya igisheke araruhuka.

Indimu ziba nziza cyane. Kuko zifasha mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Zivamo umuti hari n'igihe bazikoramo amaji yo kunywa. Kandi n'abantu bazihinga babona amafaranga menshi. Kubera zikundwa n'abantu benshi ni nziza cyane.

Ibirayi baga byiza kandi ni bimwe mu ribwa abantu bakunda cyane, birakunzwe pe ni mu biryo biryoha kandi iyo babibitse hari igihe babika imbuto, rero abantu bajye guhinga bakajya ku bihinga, ibirayi biba byiza iyo ubitse neza mbuto zizagufasha mu kubihinga n'ikindi gihe mu gihe ibyo wahinze wabigurishije ukabona amafaranga nabyo wabi.

Inkoko ziba nziza kubera ko zigira umumaro mwinshi cyane, ziduha amagi, amagi bakayajyana mu isoko agatanga amafaranga.

Ibirayi biba byiza cyane kubera ko abantu benshi barabikunda, wabijya mu buryo butandukanye birimo ifiriti, wabirya bitogosheje, kandi abantu babicuruza babona amafaranga menshi.

Ibisheke biba byiza bigira akamaro mu buzima bw'abantu. Bimara akananiro, ibisheke bivamo isukari, bivamo umutobe kandi ibisheke abantu babikunda iyo bituje rero.

Kubabangurira voka biba byiza kandi bibaka ingenzi, kuberako voka ibanguriye iraryoha cyane iraryoha kandi uyiteye ntabwo iba ndende ku buryo yateza n'impanuka. Umuntu waba agiye kuzimanura ntabwo biteza n'impanuka ziba ngufi kandi zikaryoha cyane abantu barazikunda, rero n'iyo umuntu agurishije voka y'imbangurire abantu bazigura cyane, akabona ayo mafaranga ku bwinshi.

Abantu bacururiza ku mihanda babona amafaranga ku bantu baba bari kwitana nagikunze akajya kugura umuntu bikamufasha bikamuha amafaranga akamufasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye ,kubera ko bituma abantu bagura ibyo batateganyije akakibona gusa akumva aragikunze ,cyangwa akumva aragikeneye, hanyuma akajya kukigura yamara kukigura ubwo wa wundi uri ku bicuruza akabona amafaranga akayakoresha akabona na we ahari ibindi aba akeneye akabigura.

Ubuhinzi bw'ibirayi buba bwiza cyane kubera ko ukuntu bugiraga umusaruro mwinshi, bugatuma uwabihinze abasha kwiteza imbere.

Imbuto ni bimwe abantu bakunda, kandi biryoha kandi bigirira akamaro imibiri y'abantu. Rero ziba nziza, zivamo ibintu byinshi, zivagamo amaji. Umwana waziriye abaho neza kandi ameze neza, nta kibazo na kimwe afite.

Ubucuruzi buba bwiza cyane kubera ko bufasha ba nyirabwo bakabona amafaranga, kandi n'abantu baba badakeneye ibintu byinshi, kurangura bakabibona n'ababa bakeneye ibintu nyine by'ibiro bikeya bakabibona kandi n'abo ngabo babicuruza bakabona.

Amashu aba meza cyane kuko ari mu mboga zikunzwe kandi ziryoha, abantu benshi baraygakunda cyane kuko agira intungamubiri, kandi iyo yeze ku muntu wayahinze abasha kuyagurisha mu isoko, hanyuma akabona ayo mafaranga, hanyuma nawe akiteza imbere.

Ibigori biba byiza cyane, biraryoha abantu barabikunda. Iyo wabiteye ukabitera ku mirongo, birera neza, bikazana umusaruro uhagije, bikera bigasara, wabijyana ku isoko bakaguha amafaranga menshi cyane, akagufasha gukemura utubazo twawe.

Amapera aba meza kubera ko abantu barayakunda cyane, araryoha kandi avamo n'imitobe, kandi n'imbuto abantu bakunda cyane, banazigura kandi niyo uzigurishije cyangwa warayahinze ukayagurisha ubonamo amafaranga menshi cyane.

Ingurube ziba nziza cyane cyane iyo uzororereye mu biraro, hanyuma ukabona ifumbire kuberako ifumbire yazo iba nziza cyane ku bihingwa, hanyuma uwabihinze akabona umusaruro mwinshi mwinshi uhagije hanyuma akabona n'amafaranga menshi avuye mu ifumbire ingurube ye yamuhaye.

Umurima wo guhinga uba mwiza cyane kandi ugira umumaro, kubera ko abantu bahinga ni bo batuma tubona ibyo kurya ni bo batuma tubaho, nta biryo bihari ntabwo twabaho, kandi na bo bibagirira akamaro, kubera ko iyo babigurishije babona amafaranga bakayikenuza.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bwiza cyane, uba ubaze neza kubera ko ibigori ni ibintu abantu bakunda, kandi biraryoha cyane. Ibigori babirya mu buryo butandukanye. Wabirya byokeje, wabirya bitogosheje, kandi iyo ubijyanye ku isoko barabigura cyane, kubera ukuntu biryoha, n'iyo ubyanitse bikuma ubikuramo kawunga nuko...

Imitija ni zimwe mu mboga zikundwa cyane, kandi ziryoha, abantu barazikenera cyane, rero iyo ufashe umwanya wawe ukayishaka ukavuga uti raka jye kuyicuruza, ubona amafaranga akagufasha nawe kubona ibyo ushaka ibyo uba ukeneye muri ubu buzima cyangwa ukizigamira, kubera ko nibintu biba bikenewe, kandi n'abantu bayikunda barayigura pe.

Amapera na yo ari mu mbuto nziza ziryoha, kandi abantu benshi barayakunda cyane bitewe n'ukuntu aba aryoshye. Kandi iyo unabishatse uyakoramo ji cyangwa ukayarya gutyo gusa. N'abantu baranayagurisha rero avamo n'amafaranga.

Isombe ni muri zimwe mu mboga ziba zikenewe kandi ziba nziza kandi ziraryoha. Abantu barazikunda cyane kubera ko zivamo umuti, umuntu urwaye arazirya akagarura amaraso kandi n'abagore babyaye baraziryaya bakagira amashereka. Rero ziba nziza cyane.

Amateke aba meza kandi bavuga ko kubera ukuntu aryoha ni mu biryoyo bya kinyarwanda bibaho. Iyo ugize amahirwe ugasanga na madege bita bwayise urayarya ukumva umeze neza, abantu bayahinga bakayajyana kuyagurisha babona abakiriya benshi cyane kuko Ari mu biribwa abantu bakunda kurya.

Guhingira hamwe biba byiza kubera ko bituma mugera ku musaruro uhagije, kubera ko muba mwakoze muri benshi kandi mu gihe gitoya. Rero birafasha. Iyo mushyize hamwe, biba byiza kubera ko iyo umusaruro ubaye mwinshi, n'amafaranga aba menshi. Iyo mugiye ku isoko mukajyana ibyo mwahinze, amafaranga na yo ariyongera.

Ibigori byumye biba byiza cyane Kandi biba bikenewe. Abantu barabikunda kubera ko bivamo ibintu byinshi. Barabibetesha bikavamo kawunga Kandi hari n'igihe babitekamo icyo bita injugu, hari igihe wabiteka bitogosheje ukabirya ari impungure, biraryoha cyane abantu barabikunda. Rero iyo ubijyanye, iyo wabihinze ukabyanika bikuma neza tukabijyana ku isoko, bikugirira akamaro kanini cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bwiza cyane. Kubera ko abantu bakunda no kubihinga kubera abantu barabikunda cyane. Iyo ubihinze ukagira umugisha bikera, bikazana umusaruro mwinshi cyane, biguha amafaranga. Urabyumisha ukabijyana bakabibeta bakabikuramo kawuga, ukabona na ya mafaranga ukiteza imbere, kandi ibintu bigakomeza ukikenura.

Ibirayi biba byiza cyane kuberako biri mu biryo abantu bakunda cyane, iyo wagiriwe umugisha ukaba ubihinga hanyuma bikera ku buryo bwiza ubona amafaranga menshi bikagufasha kwiteza imbere, kubera ukuntu biba bikunzwe.

Ibitoki biba byiza cyane abantu barabikunda. Bakunda kubirya kubera ko ari bimwe mu biryo biryoha, abantu bakunda. n'abarwayi barabirya bakumva bameze neza, ariko iyo wabijyanye ku isoko hakabura abantu baje kubigura, bihita bipfa bikabora bikagupfira ubusa.

Icyayi kiba cyiza na cyo kiraryoha. Abantu benshi baragikunda. Kandi ku bantu bagihinga birabafasha babona iterambere, noneho iyo bagize umusaruro mwinshi cyane kubera ukuntu kiba gishakwa n'abantu benshi ku isoko babona amafaranga.

Amapera ni meza cyane. Aba mu mbuto abantu bakunda kandi araryoha. Haba umukuru, haba n'umutoya, bose barayakunda, kubera ko aba ameze neza kandi avamo na ji imeze neza cyane. Kandi banayagurisha. urumva rero ko umuntu uyagurisha abona amafaranga, na we akagira icyo yigezaho.

Ubworozi bw'inkoko buba bwiza cyane, iyo uzitayeho ukazishakira ibyo kurya ,ukazororera ahantu heza ku buryo zitapfa ,ukazitaho mu buryo bushoboka, kugira akamaro kanini cyane ,kubera ko inkoko abantu bazikunda, ziraryoha, zigira inyama ziryoshye cyane, kandi zitanga n'amagi. Amagi atuma abantu bamera neza mu mibiri yabo, akagira intungamubiri zikomeye iyo uzitunze birakubera byiza.

Ubucuruzi bw'ibitoki buba bwiza cyane, kubera ko ibitoki ni ibintu abantu bakunda, biraryoha, babirya mu buryo bwinshi butandukanye, rero iyo ugize amahirwe ukabona ahantu uhinga ibitoki biba byiza, kuko ni ibihingwa bidapfa gusaza, biguma bikera, bikaguma bikera, rero iyo ugize amahirwe yo kubona aho kubihinga, ubona umusaruro, kandi ukikenuza ku mafaranga ukuramo.

Ivoca ziba nziza cyane kubera ko zikundwa n'abantu benshi. Kandi ni zimwe mu mbuto ziryoha cyane. Zigira akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu. Zirafasha cyane. Rero abantu benshi bazikunda, kandi baranazigurisha. Nk'umuntu uzifite aba afite imari. Iyo azigurishije abona amafaranga.

Amashu aba meza ku yahinga kuberako ni muri zimwe mu mboga abantu bakunda kurya cyane ziraryoha kandi zigirira akamaro umubiri . Kandi biba byiza cyane iyo bazihinze ari nk'ishyirahamwe kuko bakora ibintu byinshi icyarimwe ,iyo bayajyanye ku isoko rero barayagura cyane cyane bakabona umusaruro wazo.

Ibigori biba byiza kandi biraryoha, abantu barabikunda, rero abantu bafata umwanzuro wo kubihinga, abagabo batekereje neza kubera ko bivamo umusaruro bakabona amafaranga, kubera ko ibigori niyo byumye barabitesha hakavamo kawunga, rero abantu babona amafaranga nko ku abantu babigurisha, nyine babihinga babona amafaranga menshi bakiteza imbere.

Amaronji aba meza cyane, ni muri zimwe mu mbuto abantu bakunda kugura kandi bakunda kurya, kubera ko aryoha kandi agirira akamaro imibiri y'abantu, avamo ibintu byinshi bayakoramo amaji umuntu akayanwa, n'abantu bayacuruza babona abakiriya kubera ukuntu aba akenewe cyane.

Imyumbati y'imivunde iba myiza cyane, kubera ko ivamo ubugari, kandi ubugari bukundwa n'abantu benshi buraryoha cyane, baburisha isosi isosi iyo ari yo yose wayirisha ubugari. Rero iyi myumbati iba myiza, kandi iyo umuntu ayigurishije abona amafaranga.

Ibirayi biba byiza bigira akamaro, iyo umuntu abihinze akabitera umuti birera bigasara , byamara kwera akabijyana ku isoko kandi abantu barabikunda cyane biraryoha, wabirya mu buryo butandukanye, rero iyo ubijyanye ku isoko barabigura, bakaguha amafaranga menshi cyane akagufasha nawe.

Ibishyimbo biba byiza cyane, kubera ko ni bimwe mu biribwa abantu bakunda, kandi biraryoha biryoshya ibiryo. Aho ubishyize wumva bimeze neza. Iyo umuntu abihinze akabijyana mu rugo, bimaze kuma akabihura; abijyana ku isoko kandi abona abakiriya benshi cyane. Abakiriya bakamuhereza ku mafaranga, akamufasha kwiteza imbere.

Inkeri ziba nziza kandi ziraryoha, abantu barazikunda cyane kubera ko ziri mu mbuto ziboneka gake, ariko iyo abantu bazibonye barazigura kandi barazikunda, kuko umuntu wazihinze rero iyo agize amahirwe akabona uwo musaruro akazijyana ku isoko, barazigura na we akabona ayo mafaranga agatuma akomeza kugenda yiteza imbere gake.

Ibijumba biba byiza kandi ni mu biryo abantu bakunda cyane biraryoha pe! biraryoha kandi abantu barabikunda, ibijumba bivamo ibintu byinshi, ibijumba wabirya byokeje wabirya bitogosheje, wabirya birimo amavuta kandi abantu banabiryamo amandazi, babikoramo amandazi; wabihinze ukabijyana ku isoko ubona, amafaranga menshi, menshi kuko kubera ko birakundwa mu cyaro bakunda kubirya, ariko no mu mugi barabirya.

Amasaka y'amamera aba meza cyane kubera ko barayakoresha, abantu bayahunika bagakuramo ifu, ifu bakoramo umusururu, kandi umusururu abantu bakunda kuwugura cyane.

Ibishyimbo biba byiza, iyo uteye ibishyimbo uba witeganyirije kuko abantu barabikunda cyane, ariko iyo bifite agashogororo abantu barakarya, iyo hari imiteja bitari byera neza abantu barabikunda, kandi imiteja nayo wayisoroma ukajya kuyigurisha kubera ko iraryoha cyane, abantu barayikunda kandi bigira amafaranga kubera ko bayikunda baza kuyihaha.

Ubunyobwa buba bwiza kandi abantu babukunda cyane, kandi buraryoha n'abantu babuhinga rwose babona amafaranga menshi cyane kuko ubunyobwa burakenerwa ahantu henshi, waburya bukaranze, barabubetesha bakabuteka mu biryo, rero ubunyobwa buba ingenzi cyane.

Imiteja zibamyiza cyane, kandi abantu barazikunda, kuberako ziraryoha ziva ku bishimbo bitari byera neza, kandi iyo uzijanye ku isoko barazigura, kandi ziba zinahenze, rero zirakungura zikaguha amafaranga menshi kuko abantu bakunda kuzihaha.

Ibigori biba byiza kandi abantu barabikunda. Ibigori iyo wagize amahirwe wenda warabihinze ukagira umusaruro uhagije ukabigurisha bakabyeza. Kandi n'iyo ubyanitse bikuma neza cyane urabibetesha ukabikuramo kawunga. Hari abantu bakunda kawunga iyo ugiye ukayigurisha ku isoko ubona amafaranga yayivuyemo hanyuma ukiteze imbere ubuzima bwawe bugakomeza bukagenda neza kubera ko wabonye amafaranga yavuye mu bigori wabetesejemo ukagurisha.

Ubunyobwa bwa buba bwiza cyane, abantu barabukunda kubera ko buri mu biribwa bikundwa cyane n'abantu bakuru, abantu bato abasaza, bose barabukunda. Rero iyo ubuhinze cyangwa ukabujyana ku isoko barabugura cyane ukabona amafaranga akagufasha mu tuntu twawe ugakomeza.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa buba bwiza cyane, kubera ko abantu bakunda ubunyobwa, iyo ubuhinze ukabyitaho ubujyana ku masoko, abantu bakabugura cyane, kubera ko ubunyobwa burakenerwa, buraryoha, banabubetesha ukabuteka mu biryo.

Ubunyobwa buba bwiza, kandi buba ingenzi cyane kubera ko abantu barabukunda, haba abakuru, haba abatoya, haba abasaza, haba abakecuru barakunda cyane kuko buryoha, kandi bugira n'akamaro kanini cyane mu mubiri w'abantu. Baranabubetesha, bakabuteka mu biryo cyangwa bakaburya bukaranze.

Ibigori byumye biba ingenzi bigira akamaro kanini cyane, kuberako umuntu abibeteshamo kawunga akayirya cangwa bakayibeteshamo igikoma bakabivanga n'ibindi biba byiza. Rero iyo ubihinze ukabyumisha, havamo ibyo bigiye bitandukanye kandi bigira akamaro.

Amashaza aba meza kandi abantu barayakunda cyane, kubera ukuntu ngo yaryoha kandi abakenewe rero ko umuntu ufata umwanya akayahinga cyangwa akakagurisha, abona amafaranga atewe n'ukuntu ku isoko gakenewe. kandi arahenda kandi abantu bakanga bakayakunda, rero iyo uyagurisha uyahinze biragukundira ukabona umusaruro uhagije, amafaranga aba ari menshi cyane kandi akagufasha kagufasha kwiteza imbere no gukora ibindi wumva ko ukeneye.

Ubunyobwa buba bwiza cyane kubera ko abantu barabukunda, buraryoha kandi butekwa ahantu hagiye hatandukanye, waburya bukaranze bwonyine cyangwa se ukajya kububetesha ukabuteka mu biryo, rero iyo ubugurishije ubona abakiriya kubera ko ni muri bimwe abakiriya bakunda kugura cyane.

Amasaka ni ibihingwa biba byiza kandi biba ingenzi kuko arafasha cyane. Amasaka iyo wayahinze, ukayitaho ukayahingira mu gihe cya nyacyo ,arera kandi barayagura kubashaka kubeteshamo ifu y'igikoma cyangwa bagakoramo amamera nk'uko bamwikoreye.

Ibishyimbo biba byiza, kubera ko abantu babikunda kandi no mu biryo bikagendeka, iyo umuntu abihinze bikaba byinshi cyane, bimuha umusaruro, kandi ubanza wanabikorera n'amasuku, kugira ngo bize kuba ari byiza abantu bose babikunde, ushaka inkoko, inkoko igufasha kubirobanura, ukabijyana bisa neza, wabigeza ku isoko abantu bakabikunda kuko biba bisa neza bakabikugurira.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa buba bwiza, iyo ufashe icyemezo cyo guhinga ubunyobwa ntabwo uba ubaze nabi, kubera ko ubunyobwa abantu barabukunda cyane, kubera ko buraryoha waburya mu buryo butandukanye, rero wanabukoresha ukabubetesha ukabuteka mu biryo, barabugura cyane iyo ubujyane ku isoko. Ibyo rero biba byiza iyo urebye ukareba igifite akamaro, iyo uhinze ubunyobwa uba ubaze neza rwose.

Ubuhinzi bw'umuceri buba bwiza cyane kandi buba ingenzi. Kubera ko iyo ufashe umwanzuro wo guhinga umuceri, uba uhisemo neza. Umuceri ni kimwe mu biribwa bikundwa cyane. Abana bose, haba abakuru, haba abatoya, barabikundaga. Rero iyo uwugurishije ubona amafaranga menshi.

Amashaza aba meza cyane, kandi ni ingenzi cyane, kubera ko ni amwe mu mboga abantu bakunda, kandi zigiga akamaro mu mibiri y'abantu, kandi iyo uyahinze, arera cyane asara bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga menshi cyane, kubera ko aba anahenze ariko bakanga bakanga bakayagura.

Amasaka aba meza kandi aba ingenzi abantu barayakenera, kuko bayifashisha mu bintu bigiye bitandukanye. Amasaka iyo amaze kuma bayakoramo ifu y'igikoma cyangwa bagakoramo amamerara avamo umusururu.

Ziba nziza, soya ziba nziza, kubera ko ni muri bimwe abantu bakunda cyane, kandi zigira akamaro, abantu barazikoresha cyane, kandi n' umuntu wazihinga abona amafaranga, bazibetesha mu gikoma, ziraryoha, zituma igikoma kiryoha.

Ibishyimbo biba byiza, kubera ko ni muri bimwe biribwa kandi bikundwa n'abantu benshi, n'imbuto zikundwa kandi zigenda ku isoko, iyo umuntu agize amahirwe akazihinga kandi zikera zikagira umusaruro mwinshi cyane, abona amafaranga agakomeza akiteza imbere.

Ibishimbo by'intonore biba byiza cyane, ku bantu baba babahinze, barabigurisha abantu bakajya kubigura, kandi biraryoha cyane, ni yo mpamvu abantu babikunda. Rero iyo bihinze ukabikura mu muririma, bitaruma neza ukabijyana ku isoko, ubona amafaraga menshi cyane.

Ibishyimbo biba byiza, kubera ko birarya abantu barabikunda cyane, kandi iyo umuntu abihinze akabyitaho, akabishakira imiti birera bigasara, wabijyana ku isoko bakaguha amafaranga menshi akagufasha gukemura utundi tubazo.

Inka ziba nziza, zitanga umusaruro mwinshi ariko biba byiza cyane iyo uzijyanye kwa veterineri akazivura kugira ngo zikomeze zibeho neza kugira ngo n'umusaruro ukomeze ukugereho kandi ari mwinshi cyane, bigufashe gutera imbere.

Ingurube ziba nziza cyane kubera ko abantu barazikunda, kandi iyo uzoroye zigira akamaro, ziroroka cyane ariko biba byiza iyo uzihuje, ukazishakira umuveterineri, akazizitera inshinge, nuko ingurube zawe ntizipfe, kuko iyo utazitayeho zirapfa kandi zigira akamaro.

Inka z'inyambo ziba nziza kubera ko abatu bazikunda cyane. Ni inka ziba zisa neza, zigaragaraga neza. Inka zakunze kuba ibwami cyane mu gihe cya kera, ariko n'ubungubu ziba mu bintu nyaburanga biba mu Rwanda. Abakerarugendo baza no kuzisura.

Ingurube ziba nziza cyane, kubera ko ni zimwe mu nyamaswa abantu bakunda kubera ko zigira inyama ziryoha, kandi iyo uzoroye ukazifata neza ukazishakira umuveterineri, zirororoka kugira ngo zidapfa zirororoka zikaba nyinshi, wajya kuzigurisha zikaguha amafaranga menshi cyane kandi ahagije.

Ingurube ziba nziza cyane, kubera ko abantu benshi barazikunda bitewe n'ibintu byiza zifite, zigira inyama ziryoha cyane abantu benshi bakunda zitwa akabenzi, kandi zigira n'umusaruro mwinshi uhagije, bigatuma umuturage abasha kugira iterambere ryiza.

Ingurube ziba nziza cyane abantu barazikunda kubera ko zigira inyama ziryoha bita akabenzi, kandi ingurube ziroroka cyane. Iyo wazoroye ziba nyinshi cyane, zikaguhereza amafaranga menshi kubera ukuntu abantu bazikunda. Ariko iyo uzishakiye umuveterineri, akaza akazirebera ubuzima aho ziri, nta bwo zipfa.

Imbwa zigira akamaro cyane, abantu barazikunda kubera ko bazishyira mu ngo zabo zikabarindira, zikabandira abasambo, rero iyo ushaka kuyishyira mu rugo, urayiyana bakayitera urushinge kugira ngo itazarya abantu ikabatera ubumara, rero biba byiza kuyijanya bakayitera urushinge hanyuma ikakurindira umutekano wawe ibintu byawe bigomba kumera neza.

Inka z'inyambo ziba nziza kandi abantu barazikunda cyane. Ni inka zigaragaraga neza, kuzireba mu maso ubona ziteye ubwuzu cyane, n'abakerarugendo baza kuzireba, kandi izi nka zakundaga kuba ibwami cyane, na n'ubu ziracyahari nubwo zitari nyinshi, ariko ni inka nziza cyane.

inka ziba nziza zigira akamaro kenshi: zitanga amata, inyama, rero bibabyiza iyo ubonye inka igize ikibazo ukayishakira umuveterineli akaza akayikuvurira, igakomeza kuguha umusaruro umeze neza namafaranga ubonye akakugirira akamaro.

Amagi aba meza kandi arafasha, n'abantu barayakunda cyane kuko afite umumaro ku bantu benshi. Bayarya mu buryo bwinshi butandukanye arafasha mu mibiri y'abantu, kandi ku mwana wayariye rwose akura neza nta kibazo afite.

Inka ziba nziza cyane kandi zigira akamaro kubera ko zitanga ibintu abantu bakenera buri munsi. Amata, zitanga n'inyama, ariko biba byiza iyo zitaweho ukamenya ko zifite ibibazo ukazishakira umuveterineri.

Ingurube ziba nziza, ingurube barazikunda cyane, ingurube zigira inyama nziza zitwa kabenzi, ingurube zirororoka, zikaguhereza amafaranga mu minsi mikeya cyane, uba wabonye umusaruro wazo kandi ushimishije.

Inka ziba nziza cyane，abantu barazikunda kuzitunga, kubera ko zigira akamaro kanini cyane， zitanga amata. Inka zitanga inyama， kandi iyo uzishakiye ubwatsi cyangwa ibyo kuzitunga， cyangwa ukazishakira nk'umuveterineri akazivura，ubona umusaruro mwiza cyane.

Inkoko ziba nziza kuko zigira akamaro kenshi cyane. Zitanga amagi kandi abantu barazikunda, bakunda inyama zazo. Ariko nanone biba byiza kuzishakira umuveterineri akazitera umuti, kugira ngo zikomeze kororoka.

Ingurube ziba nziza cyane kuko zigira inyama ziryoha zitwa Akabenzi ariko ubu ng'ubu n'iyo zirwaye zibona n'abaveterineri bazivura cyane cyane iyo ziri ahantu hamwe nyine bakazibonera imiti ,abaveterineri bakazivura hanyuma zigatanga n' umusaruro mwinshi uhagije.

Ihene ziba nziza cyane kandi abantu barazikunda kubera ko zigira inyama nziza ziryoha. Bazikoramo burushete ariko na none iyo ubonye ko ihene yawe itameze neza, uyishakira umuveterineri kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bumeze neza cyane.

Inkwavu ziba nziza kandi abantu barazikunda cyane. Inkwavu ni zimwe mu nyamaswa zigira inyama ziryoha, kandi abantu bakunda kuzigura, kandi zororoka vuba, zizana umusaruro mwinshi cyane, kandi mu gihe gitoya. Rero ku muntu uzitunze cyangwa uzoroye bimubera byiza iyo azifashe neza, rwose abona amafaranga kubera ko ziroroka, akazijyana ku isoko kubera ko zikundwa abantu bakazigura ari benshi. Rero amafaranga abonyemo, bikamufasha gukora utuntu twa buri munsi bikamuteza imbere.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa zikunzwe cyane, kubera ko zigira amafaranga ziroroka kandi iyo uzitayeho ukazishakira imiti, ukazitaho cyane ziguha umusaruro mwiza kandi ufatika.

Inka ziba nziza ziradufasha ziduha ibintu byinshi, ariko zitanga umusaruro uhagije. Inka iyo bazikoreye ubuvuzi bakazishakira ba Veterineri bakaza bakareba ko ubuzima bwazo bumeze neza, zitanga umusaruro uhagije pe.

Inyoni ziba nziza cyane kuko ziri mu nyamwaswa zigira ubwenge bwinshi kandi zishimisha abantu, zibasha kubasubiramo, kube ubwo bwenge bwazo, zibasha kwiyitaho, zikabasha kurya kandi zidahinga, zibasha gushaka aho gutura kandi nta kintu zikora, ariko zikirwanaho kubera ubwenge.

Inyoni nazo ziba nziza, ziri mu nyamaswa nziza kandi zikunzwe n'abantu, zigira imico myiza zifite ubwenge bwinshi cyane zibasha rwitunga, kandi zidahinga zikabaho zigashaka aho kuba kubera ubwenge zigirira.

Ingwe ni imwe nyamaswa abantu batinya cyane, kandi ikanganye, iba mu ishyamba kubera ko nta mikino igira, iteye ubwoba, ariko ifite n'akamaro kanini cyane, kubera ko uruhu rwayo abantu bararukoresha, bakarukoramo imyenda, inkweto iba ingenzi nayo.

Inyoni ziba nziza cyane, inyoni zimenya ubwenge, inyoni abantu barazikunda kubera ko ari inyamaswa zitagira amahane, zibasha kwishakira ibyo kurya, zikishakira aho kuba zidakora, inyoni zigira ubwenge bwinshi cyane.

inyoni na zo ziba inyamaswa nziza zizi ubwenge bwinshi cyane, kubera ko n inyamaswa zishakira uko zibaho, kandi zikishakira aho kuba, kandi zidahinga nta kintu zikora. Ariko zikabaho kandi zikarya zikanubaka n'aho kuba, ukabona kandi zibayeho neza.